Iyi ni ifoto iriho abantu babiri, umwe ari ku igare undi yambaye ijiri ya emutiyeni bigaragara ko ari umu ajenti wayo, Bishobora kuba bari kubikuza cyangwa se uyu muntu ari kubitsa amafaranga ye.